Abantu biningeri zitandukanye abagore, abagabo, abakobwa bambaye imyenda itandukanye, imipira y'ubururu, amakote y'ubururu, inyuma yabo hari ibyapa bigizwe n'amarange y'ubururu bifite ibi byanditseho, inyuma hari amarido y'umweru, ahantu bahagaze hari sima iriho irange ry'ubururu, bambaye inkweto zitandukanye z'amabara atandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara mu cyumba, imbere yabo hari ameza atetseho amacupa y'amazi, inyuma yabo hari umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweru, afite agakayi mu ntoki hari ibyo ari kwandika, abo bantu umwe muri bo yambaye ikote rigizwe n'imirongo y'umweru undi yambaye ikote ry'umutuku.

Abantu bari ahantu mu cyumba kirimo intebe z'umukara, baricaye imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, imashini, inyuma yabo hari amadirishya ariho ibirahure, imbere yabo nanone hari undi muntu uhagaze wambaye rinete, afite ibyo ari kubabwira.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bari ahantu mu nama bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho imashini, amacupa y'amazi, hakurya yabo hari icyapa cyanditseho RURA.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye ahantu mu cyumba kirimo ameza ateretseho amacupa y'amazi, imashini, umwe muri bo yambaye rinete ni umugabo, undi na we yambaye rinete ni umugore, hakurya hari abandi bantu batatu, umwe arahagaze abandi babiri baricaye, umwe muri abo bicaye afite imashini iteretse imbere ye ku meza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye ahantu mu nama, bamwe muri bo baricaye undi arahagaze, afite indangururamajwi igizwe n'irangi ry'umukara imbere y'abo bantu bicaye, ku ntebe z'umweru hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, hakurya yabo hari urukuta rugizwe n'irangi ry'umweru...

Abantu bari mu cyumba ahantu mu nama, bambaye imipira y'umukara, umwe muri bo afite mikoro y'umukara, inyuma yabo handitse ibyapa byanditseho u Rwanda, imbere yabo nanone hari uducupa tw'amazi, bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu b'abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara bamwe muri bo inyuma yabo hari intebe ziticaweho, hari amarido y'amabara atandukanye imbere ya babandi bicaye hari amacupa y'amazi.

Abantu bari mu nama bambaye neza, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi na ji, inyuma yabo hari ufite ibikoresho bifata amashusho, inyuma yabo hari amarido meza.

Abantu bari ahantu mu cyumba, bari mu nama bamwe bicaye, umwe muri bo uhagaze yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari inzugi, nziza mu icyo cyumba, harimo amatara, imbere yabo bamwe bicaye, hari amacupa, imashini ziteretse ku meza...

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo, umwe muri bo yambaye rinete z'umukara, bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imyenda itandukanye, hari uwambaye ikoti ry'umukara yambaye n'isaha, imbere ye hari ameza ateretseho telefone, inyuma yabo hari tente y'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imipira isa, inyuma yabo hari abandi bambaye imipira isa n'icyatsi, imbere yabo hari undi muntu w'igitsina gore wambaye ikoti ry'umukara, afite indangururamajwi y'umukara yambaye rinete, inyuma yabo hari urukuta rugizwe n'irang ry'umweru ririmo inzugi, amadirishya, imbere yabo hari amacupa arimo amazi, ameza.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abakobwa, abahungu bicaye ku ntebe z'umweru n'umuhondo, bambaye imipira y'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, imbere yabo hari undi muntu wambaye umupira w'ubururu afite mikoro y'umukara, yambaye iby'umukara.

Abantu b'ingeri zitandukanye igitsina gore n'igitsina gabo bamwe muri bo mu gitsina gabo ni abazungu imbere yabo bombi hateretse amacupa y'amazi inyuma yabo bombi hari amarido y'umutuku hari urukuta rw'umweru umwe muri bo yambaye linete (Lunette) n'abandi bambaye linete (Lunette),

Abantu bane bari ahantu mu cyumba, bambaye neza, umwe muri bo yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari amarido agizwe n'irangi ry'umweru...

Abantu bari mu nama, bambaye neza, bicaye ku ntebe z'umukara, abagore n'abagabo, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, hirya yabo hari icyapa cyanditseho Rwanda.

Abantu bicaye ahantu runaka, harimo abagabo, umugore umwe wambaye isaha, inyuma yabo hari inkuta z'irange ryumuhondo, hirya yabo hari umuntu wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara imbere ye.

Abantu b'ingeri zitandukanye batari benshi bicaye ahantu runaka ku ntebe z'umukara ni abagore ni abagabo, imbere yabo hari ameza meza cyane ateretseho amacupa y'amazi, harimo n'andi macupa ya ji, bicaye mu cyumba cyiza kigizwe n'inkuta z'umweru, hejuru hari parafo nziza cyane, hirya hari izindi ntebe z'umweru ziticaweho.

Abantu b'abagore batatu bicaye ahantu mu cyumba, bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, inyuma yabo hari urukuta rugizwe n'irangi ry'umweru ruriho aho bazimiriza n'aho bakiriza.

Abantu babiri, batandukanye, umwe muri bo ni umugabo undi n umugore, uwo w'igitsina gore afite ahantu yandika, yambaye ishati y'ubururu uwundi na we yambaye ikote ry'umukara, aho bari hari inkingi zigizwe n'irangi ry'umuhondo, hakurya y'izo nkingi hari icyaba kiho irangi ry'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe zigizwe n'irange ry'umukara. Umugabo n'abagore babiri, imbere yabo, hari ameza ariho telefoni, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Kigali yacu.

Abantu bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye imipira yanditseho, gusa imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi y'umukara, mbere ye hari,,,

Abantu bari ahantu mu cyumba b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, umwe muri bo afite mikoro arahagaze, abandi baricaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hari ameza ateretseho amakaye, hakurya yabo hari amadirishya agizwe n'irangi ry'umweru, amarido inyuma.

Abantu bari mu cyumba batatu, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, imashini bambaye neza, ishati umwe muri bo yambaye, undi yambaye imyenda y'umukara n'umupolisi, inyuma yaho hari inkuta, izo nkuta harimo urugi.

Abantu b'ingeri zitandukanye b'igitsina gore, b'igitsina gabo. Bicaye ku ntebe z'umuhondo bambaye imipira y'ubururu. Bamwe muri bo barikwandika, abandi bakurikiye ibirikubera mu icyo cyumba. Imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa. Inyuma yabo hari andi meza ariho ibitambaro by'umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo bicaye ahantu heza mu cyumba, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, imbere yabo kandi hateretse amazi bamwe muri bo bafite ibyo bari kurebaho, hakurya hari icyapa kiriho bimwe mu bintu bitandukanye, aho bari ni heza, bamwe muri bo bari guseka.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo bambaye neza, amashati y'umweru amarinete, bicaye ku ntebe z'irangi ry'umweru, inyuma yabo hari inkuta zigizwe n'amarangi y'umweru, bari mu cyumba kirimo amatara y'umweru, ibirahure biri ku madirishya, hanze hari indabo.

Abantu b'ingeri zitandukanye; abagore, abagabo, bicaye ku ntebe z'umukara, hirya yabo hari icyapa kiriho ibara ry'umutuku, umweru, ubururu, abo bantu bafite buri wese agakayi karimo ibintu bigiye bitandukanye, mu icyo cyumba harimo amarido...

Abantu b'ingeri zitandukany, abagore, abagabo, abagabo bambaye neza, amakote y'umukara, amashati y'umweru, harimo n'uwambaye rinete, undi yambaye isaha, harimo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ibihateretse, udukayi.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, abagabo, bamwe muri bo ni abirabura, abandi ni abanyamahanga, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, inyuma yabo hari ahantu hari amarido, hejuru yabo hari amatara y'ubwoko butandukanye, hari ari mu nkuta, hari andi ari ahabugenewe hayo.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu cyumba kirikubimo inama. Ni abagore n'abagabo, bamwe muri bo bambaye amashati meza, amakoti meza, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bamwe muri bo bafite amatelefone nyuma yabo hari ibyapa byanditseho RGB.

Abantu bari mu cyumba, bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye bamwe muri bo amakote, amashati, amakote y'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, imashini...

Abantu bari ahantu mu cyumba, bambaye amakoti y'umukara, bamwe muri bo bambaye amarinete, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro runaka, amacupa, bari mu cyumba.

Inzu irimo abantu bambaye neza amashati, amapantaro inyuma yaho hari icyapa, inyuma y'icyo cyapa hari inkuta, mu izo nkuta harimo umuryango uriho iserire, muri icyo cyumba harimo amatara meza y'umweru, umwe muri abo bantu afite ikaramu yambaye amarinete.

Harabura iminsi itanu itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, ni kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane, menyekanisha uyu munsi, wishyuye mbere y'itariki ntarengwa kugira ngo wirinde ingaruka zo kubikora ku munota wanyuma.

Serivisi nshya ku rubuga rw'Irembo, Ikigo gitanga iyi serivisi Polisi y'u Rwanda, icyiciro Polisi amazina ya serivisi, gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo, ubufasha kuri whatsap, zeru karindwi, icyenda makumyabiri na kabiri, makumyabiri na kabiri, maganabiri makumyabiri, ubufasha kuri X duhamagara.

Imodoka nziza y'umukara iparitse ahantu igizwe n'amapine y'umukara. Imbere y'imodoka hari icyapa cyanditseho irembo imbere y'icyapa hari inzu zigizwe n'imiryango itandukanye igizwe n'amabara y'umweru rimwe nk'i miryango harimo umuntu uhagaze.

Umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri. Hakurya y'uwo muhanda hari moto iparitse yicayeho umumotari wambaye ijire y'umuhondo. Imbere ye hari kasike z'umutuku. Hirya gato hari icyapa cyanditseho Shema. Hakurya gato hari inzu igeretse rimwe igizwe n'amarangi nk'ubururu. Hirya hari ibiti, imbere y'ibyo biti hari umuntu wambaye ishati y'umweru.

Akabazo, umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ryari? akabazo, umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe ukuboza za buri mwaka, inzu igizwe n'amabati, irangi ry'umweru kuri iyo nzu.

Ishyura umusoro wubake u Rwanda rwiza. Uburyo wamenyekanisha bibiri na makumya gatatu umusoro, sura wa wa, akadomo ra ra, akadomo govu, akadomo rwa, ukande wuzuze tini, ukande.

Icyapa cyanditseho irembo, serivisi zikunze gusabwa, icyemezo cy'amavuko, mituweli, kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, kwishyura conterevasiyo, irembo govu, bika, menya, ku rubuga.

Irembo serivisi nshya ku rubuga irembo govu, ikigo gitanga serivise, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, icyiciro, ubushakashatsi, n'ibarurishamibare, amazina ya serivisi, raporo yo gutangaza, ubushakashatsi, kwemeza kongera igihe viza y'ubushakashatsi, wawawa akadomo irembo.

Inzu igizwe n'imiryango ifunguye, mu iyo nzu harimo abantu bicaye, bamwe muri bo umwe yambaye, ikote ry'umukara ingofero y'umweru, inyuma ye hari undi uhagaze wambaye agasengeri, muri iyo nzu harimo ibikoresho by'imashini n'itara ry'umweru ryaka.

Ishyura mituweli ukoresheje kode y'Irembo, akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego, kanda akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego maze wemeze, hitamo ururimi wifuza gukomeza, andikamo nomero y'indangamuntu yawe, hitamo rimwe ahanditse mituweli, shyiraramo nomero y'indangamuntu y'uhagarariye umuryango maze ukurikize amabwiriza, ishyura mituweli ukoresheje urubuga Irembo.

Abantu babiri bicaye mu cyumba kirimo ameza ateretseho imashini, abantu umwe muri bo yambaye ingofero y'umukara, inyuma yabo hari urukuta rugizwe n'irangi ry'umweru, umwe muri bo afashe suri y'imashini.

Umwirabura, umuzungu wambaye ikoti ry'umukara, umwirabura wambaye ingofero y'umweru, inyuma yabo hari intebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho imashini, aho bari hari urukuta rugizwe n'amarangi atandukanye.

Ahantu hari icyapa cyanditseho hasigaye iminsi ibiri, icyo cyapa kirimo amarangi atandukanye nk'ubururu, umuhondo handitseho hasi ngo turi kumwe, hariho inyuma umuntu wari gutera urushinge utaragaragaye wambaye agapfukamunwa, undi nawe urmutera yambaye ga.

Ahantu handitse ICT n'Uburezi. Abantu b'ingeri zitandukanye bambaye imyenda itandukanye igizwe n'amabara atandukanye, umutuku. Bambaye imidari bamwe muri bo. Inyuma yaho hari abagabo bambaye amakote y'umukara bamwe muri bo. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ibintu bitandukanye, bahagaze...

Abantu bicaye batatu bamwe muri bo babiri imbere yabo hari imashini z'umukara, umwe afite imisatsi y'umukara irimo fimbo, ihambirishijwe fimbo, imbere hari abantu benshi, hirya yabo haparitse amagare, imbere ya babandi bicaye hari ibiti, imbere yabo hari n'ameza ateretseho amazi.

Uburyo wakwiyandikisha mu kizamini cyo gutwara imodoka, ushobora kubikora mu buryo bwo kwandika cyangwa se mu buryo ukoresha imashini. Umuntu wicaye ku ntebe yambaye ikote ry'ubururu, ishati nziza, imbere ye hari imashini iteretse ku meza.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, imbere y'iyo poto hari inzu isakaje amabati, isakaye rimwe, imbere y'iyo nzu hari urukuta rwayo no hakurya yayo hari urundi rukuta, imbere y'iyo poto hari umuhanda.

Inzu zitandukanye imwe muri zo isakajwe amabati y'umutuku, izindi nazo zikajwe amabati ariko imwe mu za zindi zisakajwe amabati y'umutuku, imbere yayo hari ipoto ririho insinga zijyana umuriro ahantu hagiye hatandukanye, imbere y'izo nsinga hari urupangu, hirya y'urwo rupangu hari urukuta.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye moto, imodoka imbere y'umuhanda hari undi muhanda wagenewe kugerwamo n'abantu urimo umuntu umwe imbere ye hari umutaka w'umuhondo imbere y'umutaka hari amapoto y'isinga z'amashanyarazi imbere y'amapoto hari inzu.

Umuhanda w'umukara, hakurya y'uwo muhanda hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, zijyana umuriro ahantu hatandukanye, imbere y'uwo muhanda hari undi muhanda wagenewe abagenzi, barimo bagenda ahantu hatandukanye, hakurya gato hari amazu, imbere y'ayo mazu haparitse imodoka y'irangi ry'umweru, amapine y'umukara, muri uwo muhanda kandi harimo ibiti.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, itara, hakurya y'iryo poto hari ibiti biriho amashami, munsi y'ibyo biti hari inzu isakajwe n'amabati y'umutuku, imbere ya rya poto hari icyapa kiriho umuntu wambaye umutuku.

Umuhanda urimo imodoka y'umukara itaragaragaye neza, hakurya hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi z'umukara zijyana umuriro ahantu hatandukanye, hasi y'izo nsinga hari inzu isakajwe amabati y'umutuku, imbere yayo hari urukuta rugizwe n'irange rigiye gusa nk'umweru, muri urwo rukuta harimo igipangu cy'umukara, hakurya hari ibiti biriho amashami, amababi.

Inzu nziza nini igeretse inshuro ebyiri, igizwe n'ibirahure irange ryiza, hasi y'iyo nzu hari ahantu haparitse ibinyabiziga moto, muri ibyo binyabiziga imbere hari insinga ziri ku ipoto ririho amatara.

Umuhanda w'umukara, urimo ibinyabiziga, moto, imodoka, hakurya y'umuhanda hari undi muhanda wagenewe abagenzi. Urimo abantu babiri, imbere yabo hari amapoto y'insinga z'amashanyarazi, ariho n'itara, imbere y'amapoto hari inzu igizwe n'urupangu.

Umuhanda w'umukara, ugabanyijemo ibice bibiri, urimo ikinyabiziga kigizwe n'amabara y'umweru, amapine y'umukara. Mu uwo muhanda hirya hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ziwujyana ahantu hatandukanye, imbere y'iryo poto hari ahagenewe kwicara abagenzi bategereje imodoka, Hari umuntu wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara, yicaye ku ntebe igizwe n'irangi ry'umukara, inyuma hari amazu.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umuntu, hakurya y'uwo muhanda hari undi muhanda wagenewe abagenzi, urimo umuntu hakurya y'umuhanda wagenewe abagenzi hari inzu iriho icyapa cyanditseho magana abiri na mirongo itanu, hirya y'iyo nzu hari igipangu, muri icyo gipangu hari umuntu.

Insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ahantu hatandukanye, ziri ku ipoto, hakurya hari inzu igizwe n'amatafari, irangi ryiza, imbere y'iyo nzu hari ahantu hateretse matela, imbere y'iyo matela hari intebe y'umweru, hakurya hari ahantu hamanitse imyenda, inyuma ya ya nzu hari ahantu hari ibiti, izindi nzu zitandukanye.

Amapoto yinsinga z'amashanyarazi, indabyo ikirere cyiza, ubusitani burimo indabyo umuhanda w'igitaka insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda w'umukara hakurya y'umuhanda hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi hariho n'itara, inyuma y'iryo poto hari urukuta rw'amatafari, inyuma y'urwo rukuta rw'amatafari hari inzu igizwe n'irangi ry'umweru irasakaye, imbere y'iyo nzu hari igiti kiriho amashami n'amababi aho hari ikirere cyiza.

Abantu bari ahantu bamwe muri bo bicaye abandi bahagaze bategereje guhabwa serivisi, imbere yabo bantu hari umuntu ufite telefoni, aho bari hari inzu igizwe n'urukuta rw'amatafari mu urwo rukuta harimo umuryango ugizwe n'ibirahuri, aho bari hari ahagaragaza ubwinjiriro.

Imodoka itwara abarwayi yanditseho imbangukiragutabara, imbere yayo hari izindi modoka ziparitse ebyiri, hirya y'iyo modoka hari ahantu hari amaesikariye, iruhande rw'ayo maesikariye hari urukuta rw'amabuye.

Umuhanda wumukara ugizwe n'ahaparitse imodoka z'amabara agiye atandukanye, umukara, umutuku, umweru, hirya y'izo modoka hari inzu igizwe n'irange ry'umweru ryubakishijwe n'amabati y'umutuku, muri uwo muhanda harimo umuntu wambaye ikote ry'umukara ahetse igikapu,,,

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'imodoka zijya ahantu hatandukanye, hirya y'izo modoka hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, hirya gato hari ibiti biriho amababi.

Abayobozi b'ingeri zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe muri bo bambaye amakoti y'imikara, amashati y'umweru karuvate z'imituku abandi bambaye inkweto z'umukara, harimo umugore wambaye ikanzu y'umutuku harimo amarangi y'umweru, hakurya hari inkuta zigizwe n'amabara y'umweru.

Itegeko nomero mirongo itanu na kane bibiri na cumi n'umunani, ryo ku wa cumi na gatatu z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurwanya ruswa, twebwe Kagame Paul perezida, inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije, dutangaje itegeko riteye ritya kandi dutegetse ko ryandikwa.

Abantu bafashe ku madarapo arimo amabara umuhondo, ubururu, icyatsi, bambaye amakanzu y'umukara, umwe muri bo ni umuyisilamu, yambaye akantu ku mutwe k'umutuku, inyuma yabo hari amarido y'amabara atandukanye...

Ahantu hari abantu bane, umwe muri bo aricaye, yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ateretseho amakayi, hirya hari undi uhagaze afite impapuro mu ntoki n'ikaramu, yambaye ikanzu y'umukara irimo n'umweru, hari abandi babiri, umwe muri bo yambaye na we ikanzu y'umukara, inyuma yabo hari akabati...

Abantu bari ahantu mu cyumba abo bantu ntabwo ari benshi cyane, bicaye ku ntebe z'umukara, hagati yabo harimo intera, bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari abandi bambaye udupfukanwa, amakanzu y'umukara arimo umweru na bambaye.

Icyumba kirimo abantu batanu bicaye, bamwe muri bo barahagaze, harimo uwambaye ishati y'umweru, hirya gato hari n'undi wambaye ikanzu y'umukara, inyuma ye hari amarido y'amabara atandukanye, imbere y'abo ngabo bicaye hari ameza, imbere yabo hari imashini.

Kugeza kuri eshanu z'agaciro k'indonke yatse. Ingingo ya cumi na gatandatu, kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko. Umuntu wese wihesha cyangwa wemera guhabwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko amugenga ku buryo bweruye cyangwa buteruye cyangwa abishyize.

Abantu b'abagabo b'imfungwa bambaye amashati, amakabutura, harimo n'uw'igitsina gore. Imbere yabo hari abantu bicaye ku ntebe z'imbaho, umwe muri bo ni umuzungu, inyuma yabo hari imodoka igizwe n'irange ry'umweru, amape y'umukara, aho bari hari ibiti biriho amashami, amababi...

Abantu bari ahantu mu cyumba, bambaye amakanzu y'umukara, arimo umweru, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru w'umugabo na karuvati y'umukara, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amacupa y'amazi, impapuro, telefone, nyuma yabo hari icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru cyanditseho i c r na s.

Imfungwa ziri ahantu zambaye iroza ry'umutuku, imbere yabo hari icyapa cyanditseho gereza, hejuru y'icyo cyapa hariho umubare cumi n'icyenda, mirongo itatu, aho icyo cyapa kiri hari urukuta rwubakishije n'amatafari.

Umuntu w'igitsina gore wambaye marinete, ingofero y'umukara, harimo n'ibara rigiye gusa nk'umuhondo, yambaye ikanzu y'umutuku irimo n'ibara ry'umweru, ahantu ari inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda itandukanye, amakanzu atandukanye, agizwe n'ibara ry'umutuku, umukara, bamwe muri bo bambaye ingofero abandi ntazo bambaye, imbere yabo...

Icyapa cyanditseho gereza ya Nyanza, kigizwe n'amabara y'umukara n'umweru. Hasi ari urukuta rugizwe n'ibara ry'umukara, hirya hari urundi rukuta rugizwe n'amatafari, kuri urwo rukuta hariho icyapa kigizwe n'irange ry'umweru n'umukara, muri uwo mukara harimo amagambo ayanditseho inyuma hari ibiti biriho amashami, amababi, hirya ya cya cyapa hari inzu.

Umutwe wa kane ingingo zinyuranye n'isoza, ingingo ya cumi n'icyenda ukutaryozwa icyaha cya ruswa umuntu watanze cyangwa wakiriye indongi mu rwego rwo gufasha ubutabera kubona ibimenyetso ku cyaha cya ruswa ntafatwa nk'uwakoze icyaha iyo yamenyesheje inzego z'ubutabera mbere y'uko icyaha gikorwa.

Gufatanya na komisiyo z' ibindi bihugu zishinzwe uburenganzira bwa muntu, amashyirahamwe akorera mu gihugu n'imiryango mpuzamahanga mu bikorwa byo kurengera no guteza imbere uburenganzira bwa muntu, gushishikariza inzego za leta zibishinzwe gutangira kugira ku gihe raporo ku masezerano mpuzamahanga, u Rwanda rwemeje, ingingo ya gatanu porogaramu y'ibikorwa n'urwego komisiyo ishyikiriza.

Iguriro rya Huye, hasi y'iryo guriro, hari urukuta rugizwe n'amabuye imbere y'urwo rukuta, hari amatafari, abantu, imbere y'abo bantu hari umucaca...

Abantu bari mu nama, abagore, abagabo bambaye amakanzu y'umutuku arimo n'umweru, ingofero z'umukara, hirya yabo hari inkingi zifashe ku nkuta, harimo abambaye amarinete, harimo...

Ingingo ya cumi na gatatu: gusonera bitemewe n'amategeko, umukozi wese ku mpamvu iyo ari yo yose, mu gihe nta tegeko ribimwemerera gusonera ku buryo ubwo aribwo bwose bw'imisoro, amahoro, ihazabu, amafaranga y'ubwishingire cyangwa andi mafaranga ategetswe cyangwa utanga ku buntu.

Umuntu w'umwirabura, yambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara irimo utudomo, yambaye ikanzu iri mo ibara ry'umukara, umweru, umutuku, inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Ibihembo by'abakozi cyangwa imishahara yabo. Aba akoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko, ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu, ariko kitarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu kugeza kuri eshanu.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo bambaye neza, amakoti meza y'umukara, abagore na bo bambaye neza, umwe muri bo yambaye ikote ry'umutuku, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu, aho bahagaze hari ibara ry'umweru, hejuru hari parafo igizwe n'irangi ry'umweru, inyuma yabo hari intebe y'umukara.

Umutwe wa gatatu, ibyaha n'ibihano bya ruswa, ingingo ya kane, gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke, umuntu wese usaba, utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo aribwo bwose indonke iyo ariyo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu, cyangwa wemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adako...

Icyapa cyanditseho polise y'u Rwanda, Akarere ka Nyarugenge, sitasiyo ya polise ya Rwemezamenyo, telefone, zeru karindwi umunani, mirongo ine na gatatu, cumi na rimwe, ijana na mirongo itandatu na gatatu, zeru karindwi umunani, gatatu, cumi na rimwe, magana aridwi mirongo itandatu nagatatu, Nyarugenge arubazi.

Umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda, yambaye imyenda irimo amabara y'umukara, yegamye ku modoka igizwe n'amarangi y'umweru, yanditseho polise, inyuma ye hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, hirya y'amapoto hariho inzu, imbere y'izo nzu hari imitaka.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka moto hirya y'umuhanda hari ibiti biriho amababi hejuru y'ibyo biti hari ikirere cyiza mumuhanda kandi harimo amapoto yinsinga.

Polisi y'igihugu cy'u Rwanda yambaye ingofero z'umukara, inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, imbere yayo haparitse moto iriho amarange y'umukara, amapine y'umukara, imbere hari ibyapa byanditseho ubuzima bwiza, hakurya hari izindi nzu zigeretse zigizwe n'amarangi y'umweru, hejuru hari insinga z'amasha.....

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bajya ahantu hatandukanye, imodoka iparitse ahantu hari umuhanda w'umukara, inyuma y'imodoka hari inzu zitandukanye zisakajwe amategura agiye gusa nk'umutuku ariko atari umutuku, imbere y'izo nzu imwe muri yo hari amatente y'umweru, imbere y'amatente hari abantu batambuka, mo ayo matente hari intebe z'umweru inyuma.

Umuntu w'igitsina gabo, yambaye linete, afite indangururamajwi irimo ibara ry'umukara, umuhondo, yambaye ishati y'umweru iriho ibipesi by'umukara, inyuma ye hari ahantu hari ibara ry'ubururu ryanditseho ka wa.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame, yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, amarinete, yambaye ingofero y'umukara, inyuma ye hari abarinzi bashinzwe kumurinda, bambaye iby'umukara, imyenda yanditseho CTU, umwe muri bo afite imbunda y'umukara, inyuma ye hara amatente agizwe n'irangi ry'umweru, arimo abantu b'ingeri zitandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gore, bambaye amarinete bambaye neza, bicaye ku ntebe nziza z'umukara, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi, imbere y'umwe muri bo hari indangururamajwi, inyuma yabo kandi hari abandi bantu hirya gato.

Abantu babiri bambaye amarinete. Umwe muri bo ni umugabo undi ni umugore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, imashini kandi hari indangururamajwi, inyuma yabo hari ibara ry'umweru, hirya y'uwo mugore hari icupa ry'amazi.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo, abana hari bamwe muri bo baricaye ku ntebe z'umweru, mu abo bicaye harimo uwambaye umupira w'umuhondo, ingofero y'umukara, inyuma yabo hari akazu gato k'ibara ry'umuhondo kanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego, aho bari hari igiti kinini kirimo amashami, amababi.

Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu, inkweto z'umukara, iruhande rwe hari abandi bantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore, inyuma yabo hari idarapo ririmo amabara y'ubururu, umuhondo, umukara, umweru. Hakurya yabo hari inkuta z'umweru. Icyumba barimo hejuru hari amatara y'umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari ahantu bambaye imipira yanditseho efupri bamwe muri bo bambaye utugofero abandi bafite amadarapo ariho ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku. Imbere yabo hari umuntu wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara inyuma ye haritente y'umweru.

Abantu bari ahantu mu cyumba harimo abicaye, abahagaze, bambaye neza, abicaye bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza agizwe n'irangi ry'umutuku ateretseho amacupa, imashini babandi bahagaze bafashe ku madarapo agizwe n'irangi ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu bambaye imyenda y'umukara ni abarinzi, umwe muri bo yambaye amarinete y'umukara, bambaye imyenda iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hari imbaga y'abantu benshi bafite muri bamwe muri bo amadarapo yanditseho FPR.

Abantu bicaye bamwe muri bo bambaye imyeru, hari umuntu w’umugabo uhagaze imbere yabo yambaye ikote ry'ubururu. Inyuma ya babandi bicaye hari icyapa cyanditseho emutiyene, icyo cyapa n'umuhondo kiri ku nzu zigizwe n'inkuta ziriho amakaro .

Abantu batatu bishimye, umwe muribo ni umugabo abandi ni abagore babiri bambaye neza, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, karuvati y'umutuku, ishati y'umweru, bari ahantu mu cyumba kirimo amatara, inyuma yabo hari undi wicaye usa n'umuzungu.

Abantu b'ibitsina gore, b'igitsina gabo, inyuma yabo hari inzu zitandukanye zigizwe n'amarangi y'umuhondo zimwe muri zo ariko zimwe ntayariho, inyuma y'abo bantu hari icyapa kiriho irangi ry'umweru kiriho umuntu wambaye karuvati y'umukara ikote ry'umukara.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cy'igare gitwawe n'umuntu wambaye ishati y'umweru, inkweto z'umweru, hakurya ye hari ikiraro kigizwe n'urukuta rw'amabuye, hirya y'icyo kiraro hari ibiti biriho amashami, amababi,,,

Ahantu haparitse ibinyabiziga nka moto igizwe n'irangi ry'umukara, imodoka igizwe n'irangi ry'umukara, amapine, hari abantu b'ingeri zitandukanye, umwe muri bo yikoreye umufuka ibiri, hakurya hari indi modoka yanditseho tiriniti, mu uwo muhanda hakurya hari urukuta rw'amabuye, hirya hari andi mapoto, hirya y'ayo mapoto hari inzu zigizwe n'amabara atandukanye.

Umuhanda w'umukara, urimo ibinyabiziga nk'imodoka, igizwe n'irangi ry'umweru, amapine y'umukara, hakurya hari ipoto rigizwe n'irangi ry'umweru, hakurya y'iryo poto hari ibiti bitandukanye, bigizwe n'amashami, amababi, muri uwo muhanda harimo umunyonzi wambaye...

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga kigizwe n'amapine y'umukara, irange ry'umutuku, ufite ibyo uhetse bitagaragaye neza ariko hirya hari umuhanda wundi wagenewe abagenzi, imbere yawo hari ibiti biriho amashami no mu muhanda kandi ahantu hari ahantu hari ipoto ry'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga nk'imodoka, moto, imodoka ifite irangi ry'umweru, amapine y'umukara, moto ziriho abagenzi bambaye kasike z'umutuku, hakurya y'izo moto hari umuhanda w'abagenzi urimo abagenzi babiri, hakurya y'abo bagenzi hari ibiti, hakurya y'ibyo biti hari amazu.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga kigizwe n'amapine menshi, icyo kinyabiziga kigizwe n'irangi ry'umweru, hirya hari umuhanda wagenewe abagenzi, hasi y'uwo muhanda hari urukuta rw'amabuye, hakurya y'aya modoka hari ibiti biriho amashami...

Umuhanda w'umukara, uparitsemo imodoka nini z'amabara atandukanye, nk'umuhondo, ubururu, hagati y'izo modoka hari abantu babiri bambaye amapantaro y'ubururu, hirya y'izo modoka hari urukuta rw'amabuye, hejuru y'urukuta hariho ibyuma, imbere y'ibyo byuma hari icyapa.

Umuhanda w'umukara uparitsemo ikinkinyabiziga kigizwe n'amabara y'umutuku, amapine y'umukara ufite ibyo uhetse, hirya hari ibiti bigizwe n'amashami, amababi, muri uwo umuhanda harimo ikindi kinyabiziga kitagaragaye neza ariko kigizwe.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye moto, imodoka, harimo n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu ngeri zitandukanye. Zimwe muri izo modoka amatara yazo ari kwaka, hakurya hari amapoto ariho amatara, hirya hari amazu...

Umuhanda w'umukara, urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ya Ritco, igizwe n'irangi ry'umweru, amapine y'umukara, hakurya hari izindi nzu zisakajwe amabati, izo nzu zimwe muri zo zirageretse, imbere yazo hari urujya n'uruza rw'abantu, rw'ibinyabiziga bijya ahantu hatandukanye, harimo ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, kimwe muri byo ni imodoka igizwe n'irange ry'umweru, ubururu, hariho amapine, imbere hari iyindi moto, imbere y'iyo moto hari izindi modoka ebyiri ziparitse z'umukara, imbere yazo hari icyapa kiri ku nzu cyanditseho ubuki, hirya hari inzu isakaje amabati, imbere yayo hari insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri, uririmo ibinyabiziga nk'amoto, hakurya hari ahaparitse imodoka zitandukanye z'umukara zigizwe n'amapine y'umukara, iz'umweru, iz'umutuku, hirya y'izo modoka hari ibiti, hakurya y'ibyo biti hari amazu.

Umuhanda w'umukara urimo aho abagenzi bambukira, hakurya hari inzu nziza zigizwe n'ibirahure, amarangi atandukanye, hasi hari ibiti biriho amashami, amababi, imbere y'ibyo biti hirya hari ipoto ry'umweru ririho amatara muri uwo muhanda, ahandi harimo umumotari wambaye kasike y'umutuku.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga nka moto, ibyo binyabiziga bihetse abantu, harimo n'igare rihetse umuntu hirya hari ibiti biriho amashami, amababi hakurya y'ayo mashami hari imodoka nini igizwe n'amapine y'umukara hakurya y'iyo modoka hari inzu igeretse.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, urimo ikinyabiziga cyikoreye amatafari, hejuru hari ihema ry'ubururu, hakurya hari ibiti biriho amashami, hirya hari inzu nziza igeretse.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga by'imodoka, hakurya' undindi muhanda wagenewe abagenzi, urimo munyonzi utwaye yambaye ipantaro y'umukara, hakurya nanone hari undi muhanda wagenewe abagenzi, urimo umuntu wambaye ishati y'umweru, inkweto z'umukara hakurya hari ibiti iriho amashami, amababi muri uwo muhanda kandi hari ifoto ry'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka igizwe n'ibara ry'umukara amapine y'umukara, hakurya y'iyo modoka hari inzu igizwe n'irangi ry'umweru, iyo nzu irageretse igizwe n'amadirisha, inzugi agizwe n'ibirahure, imbere y'iyo modoka hari igiti kigizwe n'amashami, amababi, hasi y'icyo giti hari abantu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nk'imodoka, moto, igare. Igare rifite ibintu rihetse, moto ihetse umuntu, imodoka itagize icyo ihetse ariko igizwe n'irangi ry'umweru, ubururu, amapine y'umukara, hirya y'uwo muhanda hari undi muhanda wagenewe abagenzi, hakurya y'uwo muhanda hari ibiti biriho amashami, amababi.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga nka moto imodoka igizwe n'irangi ry'umweru amapine y'umukara hakurya hari ibiti biriho amashami amababi hakurya nanone hari undi muhanda w'abagenzi urimo umuntu wambaye ishati inyuma ye hari modoka igizwe n'irangi ry'umweru amapine y'umukara iyo modoka nini hakurya y'umuntu hari inzu isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, urimo n'aho abanyamaguru bambukira hagizwe n'irangi ry'umweru, hakurya y'uwo muhanda haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, zigizwe n'amabara atandukanye nk'umutuku, umukara, umweru, muri uwo muhanda kandi harimo moto irimo igenda igizwe.

Umuhanda w'umukara, urimo ikinyabiziga kigizwe n'irangi ry'umweru, amapine y'umukara, hakurya y'umuhanda, hari undi muhanda wagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, harimo abantu, umwe muri bo asa n'uwiruka, abandi bari kugenda gake, hakurya hari ibiti biriho amashami...

Umuhanda w'umukara, werekeza ahantu runaka, n'ahandi, urimo ikinyabiziga kigizwe n'irangi ry'ubururu, amapine y'umukara, ntago ari kinini cyane, hakurya y'uwo muhanda, hari undi muhanda wagenewe abagenzi, urimo umuntu wambaye umupira w'umutuku, imbere ye hari ibiti, amapoto y'insinga z'amashanyarazi...

Umuhanda w'umukara urimo abanyonzi batwaye amakesi ariho irangi ry'umutuku, hirya hari umuntu wambaye umupira w'umukara, hakurya hari undi muntu wambaye umupira w'umutuku, hari inzu, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, hirya hari ibiti biriho amashami, amababi...

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, nk'imodoka ntoya, igare rihetse ibintu biri mu mufuka w'umweru, ubitwaye yambaye ingofero y'umutuku, hakurya hari ibiti biriho amashami, hakurya y'ibyo biti hari inzu isakajwe amabati y'umutuku...

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri ari byo, imodoka, imwe igigizwe n'irangi ry'umweru, amapine y'umukara, indi igizwe n'irangi ry'umweru yanditseho interinasiyonari, muri uwo muhanda harimo umuntu uri kugenda, yambaye isarubeti, ingofero, inkweto z'umweru, hakurya y'izo modoka hari ibiti amazu agizwe n'amabati,,,

Umuhanda w'umukara urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, abantu b'ingeri zitandukanye, ibyo binyabiziga ni moto, imodoka, igare, hakurya hari inzu igeretse, imbere yayo hari ibyapa, hejuru hari insinga z'amashanyarazi, umumotari yambaye y'umutuku, umupira w'umutuku.

Umuhanda urimo imodoka igizwe n'irangi ry'umutuku, amapine y'umukara, imbere y'iyo modoka hari umuhanda w'abagenzi urimo utambukamo umuntu wambaye ipantaro y'ubururu, muri uwo muhanda kandi harimo igare rifite intebe y'ubururu.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara, igizwe n'amapine y'umukara, irangi ry'umweru, ubururu, hakurya y'iyo modoka hari ibiti bigizwe n'amababi n'amashami, imbere y'ibyo biti hari ipoto ry'icyuma.

Ibinyabiziga biparitse ahantu hari umuhanda w'umukara wangiritse, ibyo binyabiziga bigizwe n'irangi ry'umweru, amapine y'umukara, imbere y'ibyo binyabiziga kimwe muri byo hari umuntu uri imbere yacyo yambaye ipantaro y'umukara, hirya ye hari abandi bantu batagaragaye.

Umuhanda w'umukara urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga nka moto, amagare ahetse ibintu, hakurya y'umuhanda hari umuhanda wagenewe abanyamaguru ari bo bagenzi, urimo abantu hakurya, yabo hari amazu y'ibikorwaremezo, imbere yayo hari ibyapa bigiye biranga ibyo bakora.

Umuhanda ugabanyijemo ibice by'ahantu henshi, mu muhanda hamwe muri ho hagabanyijemo ibice bibiri, hari igihande kirimo moto zihetse abagenzi, hari n'ikindi gihande kirimo imodoka y'umukara, amapine y'umukara ari kuri iyo modoka, hakurya hari indi modoka nziza y'umukara na yo igizwe n'amapine y'umukara, imbere y'iyo modoka hari umunyonzi, inyuma y'uwo muyonzi hari indi modoka iri kujya mu kindi gihande y'irangi ry'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga byikorera imizigo, igizwe n'irangi ry'umweru, hakurya y'umuhanda hari ibiti bigizwe n'amashami, amababi, no mu muhanda kandi harimo umunyonzi utwaye umuntu wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, hakurya haparitse imodoka zigizwe n'irangi ry'umweru.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga, imodoka nini igizwe n'amapine y'umukara, hirya yayo hari umumotari wambaye kasike y'umutuku ijire y'umuhondo, hakurya y'uwo mumotari hari ibiti bigizwe n'amashami, amababi, hakurya hari inzu isakajwe n'amabati y'umutuku. Imbere y'uwo muhanda hari umuhanda w'abagenzi urimo umuntu umwe.

Umuhanda w'umukara, ugizwe n'ibice bibiri, uwo muhanda urajya ahantu hatandukanye, urimo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, imodoka, hakurya y'uwo muhanda hari inzu, muri uwo muhanda harimo ibiti, umucaca, harimo n'umutu wunamye, atunganya uwo umuhanda.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, hakurya y'uwo muhanda hari undi muhanda wagenewe abagenzi, uparitsemo igare, imbere y'iryo gare hari abantu babiri bambukiranya uwo muhanda w'umukara bashaka kujya mu wabagenzi, imbere yabo hari imodoka ziparitse, imbere y'izo modoka hari ibiti.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga gihetse ibintu kigizwe n'irangi ry'umutuku amapine y'umukara, iruhande rw'icyo kinyabiziga hari ahantu hari urukuta rw'amabuye borudire, hakurya ya cya kinyabiziga hari ibiti bigizwe n'amashami, inyuma y'ibyo biti hari ahantu hari inzu isakajwe amabati y'umutuku, imbere y'iyo nzu hirya hari abantu bagenda.

Ikibuga cy'igitaka kirimo imirongo y'umweru, inshundura igizwe irange ry'umukara, umweru hakurya hari ibiti biriho amashami, amababi, imbere y'ibyo biti hari ahantu hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo, hejuru ye harasakaye...

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, hakurya y'umuhanda hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ziwujyana ahantu hatandukanye, inyuma y'izo nsinga hari indabo, hakurya y'iryo poto hari igiti kiriho amashami, amababi, hirya hari icyapa cyanditseho pi, imbere y'icyo cyapa hari umumotari...

Icyapa kigizwe n'irange ry'umukara n'umweru, cyanditseho Kigali ijana na mirongo inani n'icyenda sa ti, inyuma yacyo hari ibiti bigizwe n'amashami n'amababi, hirya y'ibyo biti hari inzu zigizwe n'amarangi y'umweru...

Umuhanda urimo ikinyabiziga, umuhanda urimo ibice bibiri, hakurya y'umuhanda hari ibiti, biriho amashami, amababibi, inyuma y'ibyo biti hari urukuta rw'amabuye, imbere yayo mabuye hari icyapa kigaragaza.

Icyapa kigaragaza akarere ka muhanga umuhanda urimo isiganwa ry'amagare, abantu bitegereza isiganwa ry'amagare ibiti biriho amashami amapoto, n'insinga z' amashanyarazi ikirere kiza.

Icyapa cyanditseho Kibugabuga kigizwe n'irangi ry'umweru imbere y'icyo cyapa hari umuhanda ujya ahantu hatandukanye ugabanyijemo ibice byinshi, hakurya y'umuhanda hari amapoto y'ibyuma ariho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ahantu hatandukanye, imbere y'amapoto hari ibiti bigizwe n'amashami, amababi.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, igice kimwe kirimo imodoka zitandukanye n'amabara atandukanye, zigizwe n'amabara y'umweru, izigizwe n'amabara y'umukara n'amapine y'umukara, hakurya hari insinga z'umukara ziri ku ipoto, imbere y'izo nsinga n'ayo mapoto hari inzu zitandukanye.

Imodoka ziparitse ahantu, ni imodoka zifite amabara atandukanye, imwe muri yo igizwe n'amapine y'umukara n'indi igizwe n'amapine y'umukara, hakurya hari inzu igizwe n'inkuta zigizwe n'amarangi y'umweru isakajwe amategura, hirya hari indabo.

Umuhanda w'umukara, ugabanyijemo ibice bibiri, hakurya y'umuhanda, hari undi muhanda wagenewe abagenzi, na none hakurya y'umuhanda, hari urukuta rw'amatafari rurimo urupangu, inyuma y'urwo rukuta, hari ibiti biriho amashami, amababi, hakurya gato na none hari urundi rupangu ruriho irangi ry'umweru, rugizwe na rwo n'amatafari.

Inzu nini cyane igeretse inshuro enye, iyo nzu igizwe n'amarangi y'umweru, amadirishya, inzugi, hirya hari ahantu hari ibirahure, imbere y'iyo nzu hari imodoka nziza y'umukara ihaparitse, imbere y'iyo modoka hari umuhanda w'umukara urimo imodoka nziza y'umweru, imbere yayo hari moto...

Inyubako ziri ahantu runaka zisakajwe amabati agiye atandukanye amwe muri yo agizwe n'irangi ry'umweru umutuku imbere y'ayo mazu hari ibiti biriho amashami, amababi muri ayo mazu imbere gato hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, hari n'izindi poto zitagaragaye neza...

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, urimo umuntu wambaye ikanzu y'ubururu w'umugore urimo kwambuka hakurya y'umuhanda haparitse imodoka nyinshi harimo iz'umukara, iz'umweru, hakurya hari inzu nini cyane iriho ibyapa bigiye bitandukanye, muri iyo nzu hari amadirishya n'inzugi.

Inyubako ndende igizwe n'amarangi y'umweru, umukara, iyo nyubako ni nini cyane, imbere y'iyo nyubako hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ziwujyana ahantu, imbere ya ya nyubako hari icyapa cyanditseho hoteli, imbere ya ya nyubako hari umuntu.

Inzu isakajwe n'amategura y'umutuku. Imbere y'iyo nzu hari indi nzu iriho amarido, inyuma y'iyo nzu iriho amarido hari ahanditse kanari purasi, hariho ihombo imbere ya ya nzu iriho amarido hariho imodoka.

Ahantu hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, amazu atandukanye, agizwe n'amabara atandukanye, asakajwe amabati y'umutuku, amwe muri yo hari ibiti, kuri ayo mazu hariho amadirishya, imiryango, inzugi.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umutuku cyanditseho ibiruhuko, kiriho umuntu wambaye ingofero irimo amabara y'umweru n'umutuku, inyuma ye hari ipoto ry'icyuma rigizwe n'ibara ry'umweru, inyuma y'iryo poto hari urukuta rugizwe n'amatafari, inyuma y'urwo rukuta hari inzu yubakishije...

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga moto, kiriho umuntu wambaye kasike y'umukara afite n'indi mbere ye' hakurya ye hari inzu igizwe n'amadirisha n inzugi, bifite irangi ry'umweru, hirya y'iyo nzu hari ikigega kigizwe n'irangi ry'umweru, imbere y'uwo muhanda hari amababi ari ku biti hirya ya ya nzu.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, hakurya y'umuhanda hari undi muhanda wagenewe abagenzi, imbere y'umuhanda wagenewe abagenzi hari inzu igeretse iriho icyapa imbere cyanditseho farumasi Digine, nanone hariho ikindi cyapa kigaragaza ibyo bakora, hirya y'umuhanda hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, iyo nzu isakajwe amabati y'umutuku.

Umuhanda w'umukara, imbere y'uwo muhanda hari inzu nziza, imwe muri yo yubakishije amabati y'umutuku, igeretse rimwe, imbere yayo hari urukuta rugizwe n'irangi ry'umweru, imbere y'urwo rukuta rugizwe n'irangi ry'umweru, hari urukuta rutoya rugizwe n'amabuye.

Inshinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ahantu hatandukanye, zigizwe n'irangi ry'umukara, izo nsinga ziri ku mapoto hakurya hari inzu isakajwe amabati, imbere y'iyo nzu hari inkuta, mu izo nkuta harimo urupangu, hakurya hari ibiti, hari n'umuhanda w'umukara aho hantu

Imodoka z'ubwoko butandukanye, zigizwe n'amabara atandukanye, zifite amapine y'umukara, hakurya hari ibiti, hirya y'ibyo biti, hari ahantu hari insinga z'amashanyarazi ziri ku ipoto...

Sitade amahoro! Imbere y'iyo sitade hari inzu zigiye zitandukanye, ziriho amadirishya, imiryango, zimwe muri zo zisakajwe n'amabati y'umutuku; imbere yazo hari ibiti bigizwe n'amashami, amababi...

Urukuta rw'amatafari, imbere y'urukuta hari imodoka, igizwe n'irangi ry'umukara, amapine y'umukara, hakurya y'izo modoka hari inzu, inyuma y'iyo nzu hari inzu igeretse.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri urimo ibinyabiziga nka moto ziriho abashoferi bazo, bafite kasike z'umutuku, hirya yabo hari ibiti biriho amashami, amababi.

Umuhanda ugabanyijemo ibice byinshi by'ahantu hatandukanye, muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga nka moto, hakurya y'umuhanda hari indabo, ibiti bigizwe n'amashami muri uwo muhanda harimo amapoto y'insinga z'amashanyarazi, muri uwo muhanda kandi hirya hari icyapa kiriho inyandiko.

Umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri, muri uwo muhanda hakurya hari imodoka, moto, abantu, uwo muhanda ugizwe n'inkuta nderire, imbere y'umuhanda hari ibyapa, mbere y'icyo cyapa hari umuntu, inyuma ye hari ubusitani burimo umucaca.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bigiye bitandukanye bijya ahantu hatandukanye, urimo ibinyabiziga nka moto, imodoka, urimo kandi aho abagenzi bagenda n'amaguru bambukira, muri wo muhanda harimo hirya ibiti bigizwe n'amashami, amababi, harimo n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi, hariho n'amatara...

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka, zimwe muri zo ni nini, harimo igizwe n'irangi ry'umutuku ifite amapine y'umukara, iyo moto ihetse umugenzi, hakurya hari ibiti biriho amashami amababi, aho ibyo biti hejuru biri hari ikirere cyiza cy'umweru.

Umuhanda urimo ibice bitatu hirya y'umuhanda hari ibiti biriho amababi n'amashami hino y'uwo muhanda hari abantu bazamuka bajya ahantu hagiye hatandukanye, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi agiye atandukanye.

Umuhanda w'umukara ugizwe n'ibice bigiye bitandukanye, hirya y'umuhanda hari undi muhanda w'abagenzi urimo umuntu, wambaye ipantaro y'umukara, hakurya y'umuhanda hari inzu nziza igizwe n'irangi ry'umweru, muri uwo muhanda imbere y'iyo nzu hari urujya n'uruza rw'abantu mu bice.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, uwo muhanda urimo ibinyabiziga bitari byinshi moto, imodoka igizwe n'irange ry'umweru, hakurya y'umuhanda hari amapoto y'insinga z'amashanyarazi, amapoto ariho itara, hakurya y'ayo mapoto hari ibiti.

Umuhanda w'umukara urimo ibice bigiye bitandukanye, muri uwo muhanda harimo ahantu hari ubusitani burimo ibiti, amapoto, y'irangi ry'umweru, kuri ayo mapoto hariho amatara, mbere y'ayo matara hari ibiti, hakurya y'ibyo biti hari inzu zigizwe n'amarangi y'umweru aho biri.

Umuhanda w'umukara urimo urujya n'uruza rw'abantu, ibinyabiziga nka moto. Imbere y'uwo muhanda hari undi muhanda wagenewe kugendwamo n'abantu, inyuma y'uwo muhanda hari ibiti, ipoto ry'insinga z'amashanyarazi,,,

Umuhanda urimo ibinyabiziga nka moto, imodoka, muri uwo muhanda harimo amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, hakurya hari inzu z'irangi ry'umweru zigeretse.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bitandukanye, mu uwo muhanda hari ahantu, hari ubusitani, harimo umucaca harimo amapoto, hirya mu uwo muhanda hari imodoka zigizwe n'amapine y'umweru, irangi ry'umweru, inyuma y'izo modoka hari ibiti biriho amashami.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, harimo n'aho abanyamaguru bambukira, hagizwe n'irangi ry'umweru. Muri uwo muhanda harimo imodoka igizwe n'irangi ry'umweru, amapine y'umukara n'indi igizwe n'irangi ry'umukara, amapine y'umukara, hakurya hari insinga z'amashanyarazi ziri ku ipoto.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, urimo aho abagenzi bambukira, harimo n'umuntu umwe uri kwambuka, ibinyabiziga nka moto, imodoka, hakurya y'ibyo binyabiziga hari amazu agizwe n'amabati, hirya y'uwo muhanda hari ibiti biriho amashami, amababi muri muhanda harimo ipoto z'insinga z'amashanyarazi...

Umuhanda ujya ahantu hatandukanye, muri uyu muhanda hirya ahantu hari amapoto ariho amatara, hakurya y'ayo matara hari ahantu hari inzu ziriho amatara nazo, muri uwo muhanda hari ahantu hari ubusitani.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice byinshi bijya ahantu hagiye hatandukanye, imbere y'umuhanda hari urukuta rw'amabuye ruguru y'urwo rukuta rw'amabuye, hari inzu yubakishijwe n'amabati y'umutuku, igizwe kandi n'irangi ry'umweru, inzugi, amadirisha, hirya hari icyapa cyanditseho amazi, imbere y'icyo cyapa hari ibiti bigizwe n'amababi.

Umuhanda w'umukara, ugabanyijemo ibice bibiri, harimo n'aho abagenzi bambukira, aho abagenzi bambukira harimo abamaze kwambuka, muri uwo muhanda hirya hari ahagenewe kugenda abagenzi mu gihe ibinyabiziga bigenda, hakurya hari amapoto ariho amatara.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri bijya ahantu hatandukanye, urimo moto ihetse umuntu wambaye umweru bose bambaye kasike z'umutuku, hakurya yabo hari insinga ziri ku ipoto ry'icyuma, inyuma y'izo nsinga

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga kinini kigizwe n'amapine menshi y'umukara, kigizwe n'irange ry'umweru, ubururu, hakurya hari ahantu hari ibiti bigizwe n'amashami, imbere y'ibyo biti hari indabo ziriho ipoto ry'umweru ririho itara, inyuma ya ya modoka hari ibinyabiziga nka moto, izindi modoka.

Umuhanda w'umukara ugabanyijemo ibice bibiri, muri uwo muhanda harimo amapoto y'insinga z'amashanyarazi, imbere y'ayo mapoto hari inzu iriho ibyapa bigaragaza ibyo bakora, hirya hari ibiti bigizwe n'amashami n'amababi.